Agakapu gatoya kari mu ibara ry'umutuku kashushanyijeho utuntu tw'amabara harimo kamwe gasa n'umuhondo akaba ari igikapo umwana wiga w'amashuri y'inshuke atwaramo amakaye n'amakaramu iyo agiye kwiga.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke, kikaba kiriho inyubako nini cyane igizwe n'amashuri atatu, aho yubakishije amatafari ahiye, y'imunyu, imbere hari ikibuga kirimo ibyuma bitandukanye bakoreramo imyitozo.

Agakinisho gafite amabara y'umutuku, umuhondo, ndetse n'ubururu n'icyatsi. Kakaba gafite amapine y'umuhondo ndetse no hejuru kakaba kagaragara nka burende. Kaba kifashishwa mu burezi bw'inshuke.

Mu kigo cy'amashuri y'inshuke harimo amashuri ateye irange ry'umuhondo akaba afite inzugi ziri mu irangi ry'umukara, ku nzu ashushanyijeho ishusho y'umuntu ikaba igaragaza igikanka ndetse n'amagufa y'umuntu muri rusange.

Abana benshi cyane biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bahagaze abahungu bari ukwabo n'abakobwa bari ukwabo. Hari umwe mu bahungu ufite idarapo ry'u Rwanda, mu gihe imbere ye hahagaze abarimu babiri b'abakobwa.

Mu mashuri inshuke bakenera ibikinisho bitandukanye bifasha abana kwiga birimo imodoka, hakabamo utuzu two kubaka ndetse n'ibindi bitandukanye bikangura ubwonko bw'umwana.

Ishuri ry'inshuke, rikaba riteye irangi ry'umweru, ndetse urugi rukaba ruteye irangi ry'umukara. Ku nzu hashushanyijeho, ifi yayindi izwi nk'ifi y'inyenyeri igira amaguru menshi.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo akaba ari ishuri abana biga mu mashuri y'inshuke bigiramo, inzu ishushanyijeho umweyo ndetse hakaba ariho n'ibase irimo amazi. Byose bikaba byanditseho n'amagambo asobanura amazina yabyo mu rurimi rw'icyongereza.

Abana bane, bashushanyije ku gikarito, aho buri mwana afite agakarito gato kariho ibishushanyo, akaba ari abana biga mu mashuri y'incuke, handitseho amagambo avuga ngo umwana uri gusobanurira bagenzi be inkuru yashushanyije.

Mu kigo cy'amashuri y'incuke hari amashuri meza cyane, ateye irangi ry'umuhondo, akaba asakaje amabati atukura. Ni amashuri afite ibaraza aho ku bikuta by'inzu hashushanyijeho ibintu bitandukanye, umubiri w'umuntu, ifi, ikarita y'u rwanda, ndetse n'ibindi byose bifasha abana biga muri iri shuri.

Igipapuro cy'umweru kiriho ibishushanyo bitandukanye, hari igishushanyo k'inyoni, igikeri, imbwa, ingona n'inzoka aho byose byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke.

Agakarito gasa n'ubururu, kariho inyenyeri zibonerana, hejuru hakaba hariho akantu k'udusapfu gafite ibara ry'umuhondo, kanditseho amagambo y'icyongereza, asobanura ngo isabukuru nziza y'amavuko.

Ku kigo cy'amashuri y'inshuke, hakaba hahagaze umwana ndetse inyuma ye hakaba hari igishushanyo cy'umwana w'umukobwa uri gukaraba kuri kandagira ukarabe yifashishije amazi meza n'isabune.

Abana bane bambaye impuzankano bakaba bashushanyije ku gipangu cy'amashuri y'incuke, aho babiri ari abakobwa abandi babiri ari abahungu. Umukobwa umwe ehetse igikapu n'umuhungu umwe afite ikaye mu ntoki.

Inyubako nziza cyane y'amashuri, ikaba yafashwe n'inkongi y'umuriro aho yari inyubako yigiragamo abanyeshuri biga amashuri y'inshuke bakiri bato, inyubako yubakishijeje amatafari ahiye ndetse n'amabati y'umweru.

Ibikoresho bitandukanye birimo igitiyo, indobo, amafi ari mu bwoko butandukanye, harimo n'inyenyeri ndetse n'indobo irimo inyenyeri ikaba ari amashusho yifashishwa mu kurera abana b'inshuke, kugira ngo amenye ibinyampande ndetse n'ibikoresho bitandukanye.

Umugabo wateze igitambaro, akaba yambaye n'ikote ry'amaboko maremare, aho ari gushushanya ibishushanyo bitandukanye, bizajya byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Igikinisho cy'ingona, kirasa n'icyatsi gifite ururimi rw'umutuku namaso y'umweru, ku ruhande hariho agakarito karimo utundi dukinisho duto duto, twose tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana b'inshuke.

Mu mashuri y'inshukejo ryiza cyane riteye irangi ry'umuhondo rikaba ishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye, birimo n'imboga n'imbuto, aho bafasha abana baryigamo gusobanukirwa neza.

Inyubako nini cyane, isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite ibaraza ryiza cyane, imbere hari umuhanda w'igitaka, ku ruhande hakaba hateye indabo, iyi akaba ari inyubako itangirwamo amasomo y'abana b'inshuke.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakenera ibikoresho bitandukanye kugira ngo bige ibinyampande ndetse bige n'amabara, aho biga ibara ry'umuhondo, irya move, umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'andi yose atandukanye.

Ibikoresho bitandukanye birimo imashini iteranya, ikuramo, kugabanya ndetse no gukora imibare, hakaba udukarito turimo amakaye n'amakaramu, amagoma n'ibindi byose byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Amashuri abanza akaba ari igikuta giteranye ry'icyatsi, aho gishushanyijeho uturadio tubiri, akaradiyo kamwe kamwe kakaba kagiye gashushanyijeho igipupe cy'umwana urikurya.

Inyubako nziza cyane z'amashuri abanza zubakishije amatafari mato ahiye, zikaba zisakaje amabati atukura, imbere hakaba hari ikibuga kinini cyane kirimo n' ibendera ry'u Rwanda ririmo amabara atatu, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Igitabo cyifashishwa n'abana biga amashuri abanza, aho bigiramo umugani wa bakame, yigira umwami w'ishyamba. Iki gitabo gishushanyijeho bakame ifite amatwi, ihagaze imbere y'inzovu, ubona ko iri kuza iyisanga.

Igitabo cy'amashuri abanza, akaba ari igitabo k'Ikinyarwanda cyanditseho amagambo avuga ngo isandi n'intashya amashuri y'inshuke, akaba ashushanyijeho ibiti bihagazeho inyoni ibiri, inyoni imwe ni isandi indi ni intashya.

Igitabo kiza cyane kiri mu ibara ry'umutuku. Ni igitabo cy'umwaka wa gatandatu mu mashuri abanza. Aho kigishirizwamo isomo rya siyansi n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga riciriritse. Aho gishushanyijeho amashusho y'abana bari gukoresha mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Umukino w'umupira w'intoki, wahuje amakipe abiri, aho bari gukina mu kibuga kiriho abafana benshi cyane, bazengurutse ikibuga. Bakaba biganjemo abana, biga mu mashuri abanza ikigo kiri hafi aho.

Igikoresho cyifashishwa mu kwigisha inyuguti abana biga mu amashuri abanza, kikaba kibajwe mu giti aho kiriho amabara atandukanye ubururu, umutuku ndetse n'umuhodo n'icyatsi, hakaba hariho n'amasaro ari mu mabara atandukanye.

Ikigo cy'amashuri abanza habaha hari amashuri yubakishije amatafari y'impunyu, ateye irangi ry'umuhondo ku nkingi aho asakaje amabati y'ubururu, hakaba hari igipangu na cyo cyubakisheje amatafari ahiye ndetse hakaba hariho n'urugi rukozwe mu byuma.

Igikapu kinini cyane kimeze nk'ibase. Kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Igikoresho kiriho amabara: ay'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse kikaba kiriho n'imibare kuva kuri rimwe kugera kuri gatanu.

Ikigo cyiza cyane cy'amashuri abanza harimo amashuri menshi yubakishije amatafari ahiye y'impunyu aho asakaje amabati y'ubururu. Inzugi n'amadirisha na byo biteye irangi ry'ubururu, hakaba hari n'ikibuga kinini cyane kirimo ubusitani giteyemo umucaca, hagati habamo n'ibendera ry'u Rwanda.

Ku kigo cy'amashuri abanza hari amashuri meza cyane yubakishije amatafari mato ahiye y'impunyu asakaje n'amabati y'ubururu, imbere hari Ibendera ry'u Rwanda ndetse hakaba hari n'ubusitani bugizwe n'umucaca.

Amashuri meza cyane ateye irangi ry'umuhondo asakaje amabati y'icyatsi, akaba ari amashuri abanza afite ubusitani bwiza cyane bubungabunzwe, aho inyuma y'amashuri hari abanyeshuri batatu baje kwiga.

Ibipapuro bitandukanye byigisha abana biri mu mashuri abanza ibyampande ndetse n'amabara hari ikaro hakaba uruziga ndetse bikaba biri mu mabara atandukanye umweru, ubururu, umukara, ndetse n'umutuku.

Imitwe ibiri y'abana umwe urasa n'umutuku, undi ufite amabara y'icyatsi, umutuku n'umuhondo yose ifite amaso y'umweru, ikaba iri guhengereza mu gipangu kizitije amabati y'umweru, imbere hakaba hariho amagambo y'icyongereza avuga ngo umuganura ni iki.

Umugabo w'umwarimu ari gutondeka ibitabo bitandukanye yifashisha mu kwigisha amashuri abanza. Aho abiha abanyeshuri, bagasoma inkuru ndetse bakunguka n'ubundi bumenyi butandukanye.

Ibyuma bisaba ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa n'abana biga mu mashuri abanza, twavuga nk'amarati, amakayi, amakaramu y'igiti n'asanzwe, amagoma ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu kwiga imibare.

Agakoresho kifashishwa cyane cyane n'abanyeshuri bari mu mashuri abanza gafite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo kakaba kazwi nk'amatematikare kanditseho amagambo ari mu iba ry'umuhondo ndetse n'ay'umweru mu rurimi rw'icyongereza.

Ibikoresho bitandukanye by'umuco nyarwanda hakaba harimo: inyejoro, akayuya, hakaba hari amacumu ndetse n'imiheto irambitse kugikuta, aho bizirikiye byose ku kigo cy'amashuri abanza, bikaba byifashishwa mu kwigisha abana ibijyanye n'umuco nyarwanda.

Ikigo kinini cyane cy'amashuri abanza, kikaba ari amashuri yubakishije amatafari ariko ahomye, akaba afite ibara ry'umutuku, muhondo cyangwase amabati akaba asa n'icyatsi, yubatse igipangu kinini cyane abantu binjiriramo, baba abanyeshuri ndetse n'abandi bose bashaka kujya mu kigo.

Abana bane biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano irimo ishati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, bakaba bicaye mu ishuri ku meza aho bari kuganira masomo bigaga.

Amakayi, amakaramu, urubuto ndetse n'ingwa bikaba birambitse imbere ku meza, byose byifashishwa n'abanyeshuri biga mu amashuri abanza kugira ngo barusheho kwiga neza.

Mu kigo cy'amashuri abanza, harimo amarangi atandukanye, umuhondo, icyatsi, umutuku ndetse n'andi, hakaba harimo n'ibikoresho nk'intebe n'ameza ndetse n'ibibaho abarimu n'abanyeshuri bandikaho.

Mu kigo cy'amashuri abanza. Harimo ameza atukura aho arambitseho ibitabo bitanu byifashishwa mu kurera abana bahiga. Igitabo kimwe ni ik'Ikinyarwanda cyo mu mwaka wa gatatu, ibindi ntabwo bigaragaza umwaka.

Ikigo cy'amashuri cy'urwunge rw'amashuri rwa Nkubi. Gifite amarembo meza cyane, ari mu ibara ry'umweru, ikaba yanditseho amagambo aguha ikaze mu ibara ry'ubururu. Hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye ndetse n'urugi rw'icyuma ruteye irangi ry'ubururu.

Abantu benshi cyane bakaba bari mu kigo cy'amashuri yisumbuye, benshi muri bo bakaba bambaye amajire, gusa bameze nk'aho bamwe ari abejenyeri bari kureba uburyo ishuri ryubatswe ndetse n'uburyo barikosora kuko bashobora kuba babona ko ryubatswe mu makosa.

Umukobwa mwiza cyane, ari guhobera umusore, uhetse igikapu usa naho avuye kwiga mu mashuri yisumbuye, akaba atashye ageze iwabo. Inyuma yabo hari abandi bantu, ndetse haparitse n'imodoka.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara akaba ari umwarimu ku kigo cy'urwunge rw'amashuri, aho hari n'umukobwa w'umunyeshuri wambaye impuzankano uri kumuteruza ibyuma kugira ngo abimujyanire mu nzu.

Amarembo meza cyane aguha ikaze ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyagatare, ni igipangu giteye irangi ry'icyatsi cyerererutse ndetse bakaba bafite n'urugi runini cyane rukozwe mu byuma.

Abana bato, bicaye mu ishuriba, akaba ari abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, buri wese afite mudasobwa imbere ye ndetse imbere yabo, hakaba ari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye. Bambaye impuzankano harimo umukobwa umwe wambaye umupira w'imbeho. Imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye isaha, akaba ari we ukuriye amasomo kuri iki kigo.

Abana bato rubyiruko biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano imipira y'ubururu, ndetse n'amapantaro ya kake kaba bari gutembera mu kigo cyabo aho bagiye kwinjira mu mashuri.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye. Bambaye impuzankano bakaba bicaye mu ntebe hanze aho hari n'ibiti birebire cyane barinda izuba. Imbere yabo hari umugabo ufite mikoro akaba ari we uri kubigisha icyigisho cy'uyu munsi cy'uburyo bwo kwita ku masomo yabo.

Abanyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Katorali Rubura, bakaba bicaye imbere y'umuyobozi wabo, aho ari kubasobanurira ibyo bakwiye gukora, kugira ngo bazatsinde neza.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ahetse igikapu ndetse yambaye agapfukamunwa aho agiye kwiga mu mashuri yisumbuye, hirya ye areba undi mugabo wambaye agapfukamunwa uri kumutunga icyuma aho ari kumupima umuriro ngo arebe ko adafite icyorezo cya COVID 19.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bateraniye hamwe nka korari aho bahagaze imbere akaba hari umwana umwe w'umukobwa ufite mikoro ari na we uri kubaterera indirimbo ubundi bakaririmba.

Abanyeshuri bakiri bato biga mashuri yisumbuye barimo abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye impuzankano aho bakoze imirongo bose bahagaze munsi y'ibiti, imbere yaho hakaba hari Umupolisi uri kubaha inyigisho.

Abana bato biga mu mashuri yisumbuye ariko bambaye amakabutura, bakaba bambaye impuzankano, aho bari kuza abasanganira kandagirukarabe kugira ngo bakarabe intoki bifashishije amazi meza n'isabune.

Abanyeshuri biga amashuri yisumbuye. Ni abahungu bane ndetse n'umukobwa umwe bahagaze ku ruhande rumwe, abandi bakaba bahagaze ku rundi ruhande, buri wese afite indabo, aho baje ku rwibutso baje kuyoboka abazize jenoside yakorewe abatutsi.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye kikaba kiriho amashuri menshi cyane, aho rimwe ari igorofa rikaba ryubakishije amatafari ahiye, inkingi zaryo zikaba irangi ry'umuhondo ndetse mu iyo baraza hakaba hariho abantu bane bari gutambuka.

Abanyeshuri benshi cyane biga amashuri yisumbuye, bicaye mu busitani aho basohoye intebe zabo bakazicaraho ari benshi, bamwe bambaye impuzankano y'umweru, abandi bakaba bambaye umuhondo, aho baje kumva inyigisho za ababakuriye.

Inzu nziza cyane ni inzu ya kaminuza ikaba ifite urugi runini cyane rukozwe mu cyuma ruteye irangi ry'icyatsi. Urugi na rwo rurimo ibirahure byiza cyane by'umweru bibonerana aho mu nzu harimo itara ritakije.

Inyubako nziza cyane isa naho ari inyubako ya kaminuza cyangwa se yo mu ishuri ry'ubumenyi ngiro n'imyuga. Ikaba ari inyubako ifite urugero rwiza rukoze mu cyuma, ikaba iteye irangi ry'icyatsi, rwanditsweho nimero rimwe R cumi na gatatu.

Ibikoresho bitandukanye, ni ibibumbano harimo n'ikibumbano kigaragaza rondereza akaba ari ibiibibumbano byagiye bikorwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro.

Icyuma kibikwamo imyanda, kikaba gifite ibara ry'icyatsi aho giteye mu busitani hagati y'indabo nziza cyane, ku ruhande hari umucaca ndetse ku ruhande rwa ruguru hakaba hari inyubako y'igorofa iteye irangi ry'umweru.

Abanyeshuri muri kaminuza ndetse n'abandi biga mu mashuri makuru y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga bicaye mu nzu, buri wese akaba afite mudasobwa ye aho bari kwiga ku bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga.

Intebe nziza cyane ikozwe muri palasitike ikaba isa n'ubururu, iteretse imbere y'inzu ku makaro aho ari ku ibaraza, izo nzu zikaba zirimo inzugi ziteye irangi ry'icyatsi ndetse ziriho n'ibirahuri byiza cyane bibonerana, imbere hakaba hateretse n'akadobo k'umutuku.

Igipapuro gisa n'umweru giteyeho amarangi agiye ashwaraguye, kikaba cyometse ku gikuta k'ishuri, igikuta giteye irangi ry'icyatsi, akaba ari ishuri ryo muri kaminuza.

Abashuri biga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyigiro cyangwa se abo muri kaminuza, bicaye mu ntebe mu ishuri rimwe ryiza ritera irangi ry'icyatsi rifite parafo y'umweru, aho bari gukurikira amasomo ya mwarimu.

Ku nzu nzizaza cyane igikuta giteye irangi ry'umuhondo, hakaba hariho amafoto abiri agaragaza umuntu w'umugore. Iyo nzu irimo amadirishya y'ibirahuri usa naho uri kubona hanze.

Mu nzu imwe aakaba ari inyubako ya kaminuza, harimo abantu batatu, babiri bacaye mu dutebe twiza cyane tw'ubururu, mu gihe undi umwe w'umusore ari kubafotora kugira ngo babike ifotoye y'urwibutso rw'uko bamenyanye.

Inzu nziza cyane y'igorofa, irimo urugi runini cyane ruteye irangi ry'icyatsi, rukaba rurimo n'ibirahuri binini cyane, yanditseho amagambo y'icyongereza, asobanura ko ari icyumba gitangirwamo amasomo icyumba cya gatandatu.

Inyubako nziza cyane, imbere yayo hari imbuga y'amapave aho hari kugenda abantu biganjemo abakobwa bavuye gushaka serivisi muri iyi nyubako kugira ngo babashe kuyibyaza umusaruro.

Igipapuro kinini cyane, gishushanyijeho umugabo uri gucuranga gitari bisa n'aho ari igihangano ndetse n'ubugeni bwakozwe n'umunyeshuri wiga muri kaminuza cyangwa se uwiga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro.

Udutebe dutoya cyane twa palasitike, akaba ari udutebe abanyeshuri biga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyigiro ndetse na kaminuza bicaramo, iyo bari gufata amasomo yabo atandukanye mu ishuri.

Abanyeshuri benshi cyane biga mashuri makuru imyuga n'ubumenyi ngiro ndetse na kaminuza, bahure hamwe aho baje mu nama buri wese yitwaje ikayi n'ikaramu yo kwandikamo amasomo y'ingenzi.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyigiro. Bagira ubugeni bukomeye cyane dore ko basigaye bahanga ibibumbano byiza cyane by'akataraboneka nuko bakabigurisha bakabona amafaranga.

Igikuta kiri mu ibara ry'icyatsi hakaba hometseho igishushanyo cy'umweru kirimo imirongo igiye inyuranamo y'umweru, umutuku ndetse n'umukara, akaba ari igishushanyo mbonera kigaragaza inyubako.

Abanyeshuri ndetse n'abayobozi muri kaminuza ndetse n'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro bateraniye mu nzu imwe aho baje kuganira ku buryo bwiza bakwiye guteza imbere ibyo baba bigiye mu mashuri yabo mu gihe basoje kwiga.

Inzu nziza ikaba ari inyubako muri kaminuza y'u rwanda, inyubako iteye amarangi y'icyatsi ikaba irimo n'inzugi zikozwe mu byuma ziteye irangi ry'icyatsi.

Ibibumbano byiza cyane byakozwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga mu mashuri makuru y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bakaba babimbitse hasi aho kimwe cyaguye kikangirika cyane ubu ngubu bakaba barongera kugisubiramo.

Inzira nziza cyane y'abanyamaguru irimo amapave, ikaba ikikijwe n'ibisima biteye irange ry'umukara ndetse n'iry'umweru, ku ruhande hari indabo ngufi ndetse n'idende hirya yazo hakaba hari umucaca.